Ubwoko bw'amafumbire bufunze mu mifuka aho twifashisha amafumbire mu myaka yacu kugira turinde ubutaka bwacu kwangirika ndetse dutume imyaka yacu ikura neza.

Umuti twifashisha mu kurwanya udukoko dutandukanye utwo mu nzu, utwo mu bihingwa ndetse n'ahandi hantu hatandukanye dushobora gusangamo utwo dukoko kugira ngo tutwirinde.

Igihingwa cy'inyanya barimo gutera umuti, twifashisha iyo turi gutegura amafunguro yacu, aho ibiryo twashyizemo inyanya biryoha kandi kikaba ari igihingwa gitanga amafaranga ku bantu bagicuruza.

Ubwoko bw'amafi twifashisha mu gutegura amafunguro y'ibikomoka ku matungo, aho dukuramo intungamubiri y'ibyubaka umubiri wacu, bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikoresho cy'ubwato twifashisha mu rugendo rwambukiranya amazi. Ndetse tukacyifashisha cyane turi gukora umwuga wacu w'uburobyi uduhesha iterambere, ndetse ukaduhesha kubona amafi dukoresha mu mafunguro yacu.

Imboga, imbuto, umuceri, inyama ndetse n'igihaza, ni indyo yuzuye, aho dusangamo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, n'ibitera imbaraga umubiri wacu, bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza.

Ubwato buto twifashisha mu kwambuka imigezi minini ndetse n'imito, ndetse tukabwifashisha turimo gukora umwuga w'uburobyi, kugira ngo twiteze imbere mu buryo butandukanye.

Ifi ni imwe mu biribwa bikomoka ku matungo, aho tuzifashisha dutegura indyo yuzuye, ndetse n'indimu twifashisha, mu rwego rwo kubona imiti itandukanye.

Ubwoko bw'amafi dukunze kwita tomusoni buraryoha cyane iyo yokeje, ndetse n'iyo bukaranze ndetse n'iyo twabutogosheje. Dukunda kubukoresha cyane iyo turi gutegura indyo yuzuye ,kuko dukuramo intungamubiri zikenerwa n'umubiri wacu.

Uruzi twifashisha mu kubona amazi dukoresha mu mirimo y'ubuhinzi, nko kuvomerera imyaka, ndetse dukuramo amafi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubone indyo yuzuye.

Insina ni igihingwa dukunze gukuramo igitoki twifashisha mu mirire yacu ya buri munsi. Igitoki ni indyo iryoha ku bantu babikunda cyane.

Ibisigazwa by'ibigori akenshi dukunda kwita ibikenyeri tubyifashisha iyo turi gusasira iyindi myaka, kugira ngo twongere ubuhehere mu murima, bityo imyaka yacu ikure neza.

Ubwoko bw'ibyatsi dukunze kwita imisave, aho mu rwanda dukunze kubikoresha mu kwinika amasaka, ndetse tukabikoresha no mu yindi mirimo itandukanye.

Umurima urimo ibisigazwa by'ibigori twifashisha mu gushingiriza indi myaka, kugira ngo ishobore gukura neza, ndetse tubyifashisha turimo gusasira indi myaka.

Karoti zihinze mu murima usa neza, twifashisha mu gutegura amafunguro yacu ya buri munsi ,aho dukuramo intungamubiri z'ibirinda indwara umubiri wacu.

Umurima w'imitabo twifashisha mu buhinzi butandukanye, aho tuyifashisha mu kurwanya isuri kugira ngo ubutaka bwacu butagenda tukabura ibyo duhingamo, ndetse imitabo idufasha kuyihingamo nk'imyaka itandukanye mu bishanga.

Umurima w'ibirayi, ibirayi bikiri mu murima bitarakurwa, ibirayi biduha amafaranga, ibirayi turya, ibirayi birimo intungamubiri zikenerwa n'umubiri wacu.

Umurima w'imitabo uhinze neza， aho imitabo tuyifashisha mu kurwanya isuri，ndetse turi kwirinda ko ubutaka bwacu bushobora kwangirika， bigatuma tweza neza，imyaka yacu igakura neza.

Ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko bw'inturusu, ibikiri bito, ndetse n'ibikuze, aho biduhereza umwuka mwiza duhumeka, ndetse tugakuramo ibiti twifashisha mu bubaji, ndetse n'inkwi twifashisha mu gutegura amafunguro.

Igihingwa cy'ibirayi giteye ku butaka bwiza twifashisha mu gutegura amafunguro yacu, ndetse gikungahaye ku ntungamubiri zikenerwa n'umubiri wacu.

Ishyamba rihinzemo ibiti bitandukanye. Higanjemo ibiti by'ubwoko bw'inturusu. Iz'umweru ndetse n'izindi zitandukanye, aho inturusi z'umweru tuzifashisha mu gukuramo umuti. Uwo muti uvura indwara z'ubuhumekero. Kandi ibiti bigatuma tubona umwuka mwiza duhumeka.q

Ibisheke ni igihingwa ngandurabukungu, ndetse kidufasha mu kubona isukari, kandi ni igihingwa gikungahaye ku isukari karemano ikenerwa n'umubiri wacu.

Ubwoko bw'ibirayi by'umweru biryoha cyane, dukunda kwifashisha turi gutegura amafunguro yacu, kugira ngo dutegure indyo yuzuye, ibyo bigatuma ubuzima bwacu bumera neza.

Umuhinzi wishimiye umwuga we w'ubuhinzi, ufite isuka mu ntoki, ari kumenera imyaka ye, y'ibigori n'ibirayi.

Ibigori byokeje biraryoha cyane, abantu benshi barabikunda ndetse bitanga amafaranga ku babicuruza ndetse n'abahinzi babyo.

Avoka ni nziza ziraryoha, zitanga amafaranga ku bahinzi bazo, ndetse n'abazicuruza. Avoka tuzifashisha dutegura amafunguro yacu, kugira ngo agende neza mu mubiri wacu.

Ubucuruzi bw'imboga zitandukanye, aho bacuruza imiteja, pavuro, ndetse n'ibitunguru, na seleri, n'izindi mboga zitandukanye twifashisha mu gutegura amafunguro yacu, tugategura indyo yuzuye, idufasha mu kurinda indwara umubiri wacu, ndetse ikungahaye ku ntungamubiri zifasha umubiri wacu.

Ubwoko bw'imboga n'imbuto twifashisha mu gutegura indyo yuzuye, aho dukuramo intungamubiri zibirinda indwara umubiri wacu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Ubwoko bwa avoka y'imbangurire iraryoha cyane, bityo bigatuma uwabigize umwuga mu kuzihinga, abona umusaruro mwinshi ndetse akabona n'amafaranga menshi, akamufasha kwiteza imbere.

Amashaza akiri mabisi twifashisha turi gutegura indyo yacu yuzuye, araryoha cyane aho dusangamo intungamubiri y'ibyubaka umubiri wacu, bityo bigatuma umubiri wacu umera neza, ugakomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Ubwoko bw'ibirayi butandukanye, twifashisha mu gutegura amafunguro yacu ya buri munsi, ndetse tugakuramo intungamubiri zikenerwa n'imibiri yacu. Kandi bigatuma tugira iterambere ku bantu babicuruza, n'abantu babihinga.

Imiteja ni zimwe mu mboga twifashisha hano mu gihugu cyacu, turi gutegura amafunguro yujuje ubuziranenge, ndetse bigatuma tugira ubuzima bwiza iyo twazikoresheje.

Amateke ni igihingwa kiryoha aho tucyifashisha turi gutegura indyo yuzuye, aho dukuramo intungamubiri z'ibitera imbaraga ,ndetse bigatuma twiteza imbere ku bantu babihinga ndetse n'abicuruza.

Ubwoko bw'ibijumba bwitwa tura, aho ibijumba tubyifashisha mu gutegura amafunguro y'indyo yuzuye, bikaba bikungahaye ku ntungamubiri zitera imbaraga umubiri wacu.

Inanasi ziri mu mbuto twifashisha mu gutegura indyo yuzuye, aho tuyisangamo intungamubiri zirinda indwara. Inanasi ni zimwe mu mbuto zituma tubona amafaranga, mu gihe tuzicuruje.

Inanasi ziri mu murima, twifashisha mu gutegura amafunguro yacu. Dukuramo intungamubiri zidufasha kwirinda indwara, zidufasha mu kwiteza imbere, aho tuzikuramo imitobe itandukanye, ituma twiteza imbere nk'abaturage.

Imishwi ikiri mito izakura ikaduha inkoko zizaduha inyama, amagi tuzifashisha mu kubona indyo yuzuye yaba kubana ndetse n'abantu bakuru.

Avoka igihingwa twifashisha mu gutegura amafunguro yacu, iraryoha ndetse ikungahaye ku ntungamubiri zikenerwa n'umubiri wacu.

Inyanya ni zimwe mu mboga dukunze gukoresha dutegura amafunguro yacu, ndetse dukuramo intungamubiri nk'izibirinda indwara. Ndetse tukazifashisha mu gutegura indyo yuzuye.

Ubwoko bw'imboga; imiteja twifashisha mu gutegura amafunguro yacu ya buri munsi, aho dukuramo intungamubiri zidufasha kurinda indwara umubiri wacu, igihingwa kiryoha cyane Abanyarwanda dukunze kurya.

Umugabo w'umuhinzi w'ibirayi uhagaze mu murima we, ufite umurima w'ibirayi bisa neza cyane, bigaragara ko abifashe neza kandi yabishoyemo imbaraga, kugirango bimere neza.

Ibirayi bikiri mu murima ,ubona ko bimaze gusarurwa ako kanya, byifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye yuje intungamubiri, ndetse bikaba bitanga amafaranga ku muntu wabihinze.

Umuhinzi w'ibishyimbo wishimiye umwuga we w'ubuhinzi. Ibishyimbo bidufasha kwiteza imbere mu gihe twabikoresheje mu bucuruzi bwacu, ndetse tukabyifashisha mu gutegura amafunguro yacu y'indyo yuzuye.

Umurima w'ibirayi aho abahinzi barimo kubibagara ndetse ibirayi bikaba ari igihingwa gikungahaye ku ntungamubiri zikenerwa n'umubiri wacu, kikaba gitanga amafaranga ku bagihinga.

Avoka : Avoka y'imbangurire iryoha cyane, tuyikuramo intungamubiri, tuyikuramo amavuta atandukanye, amavuta yo kwisiga.

Ubwoko bw'amatunda dusanga hano mu Rwanda, dukunze kwifashisha dutegura amafunguro yacu kugira ngo tugire indyo yuzuye, maze bigatuma umubiri wacu umera neza.

Ubwoko bwa avoka butandukanye, avoka ziraryoha, tuzifashisha kugira ngo dutegure amafunguro yacu aryoshye, bityo bigatuma imirire yacu imera neza.

Amateke ni igihingwa gishobora kuduhereza amafaranga mu gihe twakijyanye ku isoko, ndetse tugakuramo intungamubiri z'ibitera imbaraga umubiri wacu, bityo tukagira imbaraga zo gukora.

Ubwikorezi bw'imizigo twifashishije amapikipiki, tugatwaraho imisaruro yacu ndetse n'imikamo yacu tubijyanye ku masoko, kugira ngo tubone amafaranga abivuyemo.

Amateke igihingwa kiryoha cyane, twifashisha mu gutegura indyo yuzuye, aho dukuramo intungamubiri zubaka umubiri wacu.

Ibirayi bipakiwe mu mifuka, aho bizorohera abahinzi ba byo kubigeza ku masoko, ndetse bigatuma iterambere rya bo ryiyongera mu mihingire ya bo ndetse bizatuma iterambere ry'igihugu ryiyongera.

Umuhinzi w'ibishyimbo uri gusoroma umushogoro twifashisha mu gutegura amafunguro yacu. Uraryoha, ndetse utuma tugira ubuzima bwiza, bityo bigatuma imibiri yacu igubwa neza.

Ibirayi biri mu mifuka aho bizafasha abakiriya kugura neza ibyo birarayi, ndetse bizafasha abacuruzi kubigeza ku masoko, kugira ngo biborohere kubicuruza. Ndetse bizatuma iterambere rya bo ryiyongera.

Umuhinzi uri gugosora imyaka ye, aho ari gukoresha igikoresho dukunze kwita intara cyangwa se inkoko, kugira ngo akuremo imyanda bityo umusaruro we ugume ufite isuku.

Umugore ucuruza ibishyimbo yishimye. Ibishyimbo bitanga amafaranga ku babicuruza, ibishyimbo biryoha, ibishyimbo bidufasha mu gutegura amafunguro yacu yuzuye, tugategura indyo nziza yuzuye.

Umuhinzi umaze gusarura igihingwa cy'ubunyobwa. ubunyobwa budufasha mu gutegura amafunguro yacu nk'indyo yuzuye, aho dukuramo intungamubiri zidufasha kurinda indwara umubiri wacu.

Ibishyimbo bikiri bibisi dukunze kwita intonore, aho biryoha cyane, abanyarwanda benshi dukunze kubikoresha dutegura amafunguro yacu, kugira ngo tugire indyo yuzuye.

Soya ni igihingwa gikungahaye ku ntungamubiri dukenera mu mubiri wacu, ni igihingwa dusangamo intungamubiri zubaka umubiri wacu ndetse kandi n'igihingwa gitanga amafaranga, ku muntu wabigize umwuga akagicuruza ndetse no kubagihinga.

Ubwoko bw'ibishyimbo twifashisha mu gutegura amafunguro yacu, bityo bigatuma tugira indyo yuzuye ndetse bigatuma umubiri wacu umera neza, aho dukuramo intungamubiri ibyubaka umubiri wacu.

Imashini twifashisha mu buhinzi turi gutwara umusaruro, ndetse n'ibindi bikoresho dukenera kugeza mu murima, kugira ngo ubuhinzi bwacu bwihute, kandi bugende neza.

Ubwoko bw'ibigori biryoha cyane, kenshi na kenshi dukunda gukuramo ifu y'igikoma, ndetse tugakuramo ifu y'umutsima. Rimwe na rimwe tukabikuramo n'amavuta twifashisha turi guteka.

Ubunyobwa ni igihingwa gikunzwe cyane, twifashisha mu gutegura amafunguro yacu kandi kikaba gikungahaye ku ntungamubiri zubaka umubiri wacu, kikaba gitanga amafaranga ku bagicuruza ndetse n'abagihinga.

Ubuhunikiro bw'ibigori, aho tubikamo ibigori bityo bigatuma bikomeza kugira ubuziranenge, ndetse bigatuma tubijyana ku isoko bimeze neza.

Ubunyobwa ni igihingwa kidufitiye akamaro, aho tucyifashisha dutegura amafunguro yacu ya buri munsi, ndetse tugakuramo intungamubiri z'ibyubaka umubiri.

Igihingwa cy'amasaka twifashisha mu gutegura amafunguro yacu y'igikoma, ndetse tukayifashisha dutegura ikinyobwa umusururu, Abanyarwanda dukunda cyane.

Ibinyamisogwe bitandukanye harimo ibishyimbo ndetse na soya, twifashisha mu gutegura amafunguro yacu. Tugategura indyo yuzuye , aho dukuramo intungamubiri mu byubaka umubiri, ndetse tukabyifashisha mu kubona amafaranga.

Soya ni kimwe mu bihingwa cy'ibyubaka umubiri, ndetse tukacyifashisha dutegura indyo yuzuye, mbese tugategura amafunguro aryoshye cyane.

Igihingwa cy'ibigwagari aho tubikoresha dukuramo amavuta yo guteka, amavuta aryoha cyane ku bayakoresha.

Ibishyimbo bipakiwe mu mifuka, aho bizorohera abakiriya kubona ubwoko bashaka, ndetse bizorohera abacuruzi babyo kubigeza ku bakiriya babyo, bigatuma iterambere ryabo ryiyongera.

Ubwoko bw'ibishyimbo dukunze kwifashisha mu gutegura amafunguro yacu aryoshye ndetse bigatuma twiteza imbere, mu gihe twabigize umwuga mu kubihinga ndetse no kubicuruza.

Ubwoko bw'ikinyabiziga twifashisha mugutwara umusaruro wacu, dukunze kwita ingorofani mu rurimi rw'amahanga ndetse bigatuma umusaruro wacu, ugera ahantu twifuza mu buryo bworoshye.

Umugore n'umugabo boroye itungo ry'ihene, aho ribafasha kwiteza imbere, bigatuma bagira ubuzima bwiza, ndetse n'iterambere ryabo nk'urugo.

Umworozi w'amatungo woroye ihene, wishimye cyane kubera ubworozi bwe, ndetse akaba yoroye ihene nziza cyane zimuhereza umusaruro, zigatuma yiteza imbere mu buryo bw'umwuga we.

Inka ni itungo riri mu matungo maremare, rifitiye akamaro umuryango nyarwanda, aho tubonamo amata, ndetse n'inyama twifashisha mu kwiteza imbere.

Inkokokazi ndetse n'isake twifashisha kugira ngo tubone kororoka kw'inkoko zacu bityo bizatuma iterambere ryacu ryiyongera ndetse n'imirimo yacu igakomeza gutera imbere mu gihe kimwe cyabanguriye ikindi.

Umuganga w'amatungo uri gutera inka urushinge. Ari kuyivura kugira ngo bitume inka igira ubuzima bwiza, bityo tuzabone umusaruro wayo uhagije.

Ingurube iri mu kiraro cyayo cyubatse neza, ndetse irikurya ibiryo bayihaye ikaba ari itungo ridufasha mu kwikura mu bukene. Ndetse n'itungo riduha inyama ziryoshye cyane.

Ingurube ni itungo ridufasha kwiteza imbere, aho ribyara ibibwana byinshi bityo bigatuma twiteza imbere. Rikaduha ifumbire dukeneye mu mirima yacu, maze tukeza tukabona umusaruro mwinshi.

Inka ziri mu rwuri ziri kurisha ibyatsi bimeze neza, kugira ngo zizashobore gutanga umusaruro umeze neza, yaba amata ndetse n'inyama nziza. Bizatuma nyirazo abona iterambere rihagije.

Inka zidufasha kubona ifumbire kugira ngo dufumbire imirima yacu, ikaduha amata kugira ngo tubone ibikomoka ku matungo. Dukuramo intungamubiri ndetse zikaduha inyama kugira ngo tubone ibyubaka umubiri wacu.

Umusambi ni imwe mu bwoko bwibiguruka, aho umusambi uri mu bikurura ba mukerarugendo bityo bigatuma twinjiza amadovize, iterambere ry'igihugu cyacu rikiyongera.

Ubwoko bw'inyoni zo mu kirere, aho zikurura ba mukerarugendo zigatuma tugira ikirere cyiza, ikirere gisa neza kubera urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye.

Ubwoko bw'inyoni bukunze kuba buri mu mazi, aho bwororoka bigatuma ibidukikije byacu bikomeza kubaho neza.

Ubwoko bw'inyamaswa, ingagi ni imwe mu nyamaswa ifitiye akamaro Igihugu cyacu, aho idukururira ba mukerarugendo bakaduhereza amadovize twifashisha mu guteza imbere Igihugu cyacu.

Ubwoko bw'inyoni busa neza ,bufite amabara meza, bushobora gukurura ba mukerarugendo, bityo bakaduha amadovize ateza imbere igihugu cyacu, ndetse bigatuma n'ibidukikije bishobora kuguma bifite ubuziranenge.

Ubwoko bw'inyoni dukunze kwita igisiga cyangwa igikona, aho gifite amabara meza bituma tugira ibidukikije bisa neza cyane.

Ubwoko bw'inyoni buba mu kirere buba mu bidukikije, bituma ibidukikije byacu bishobora gukomeza kwaguka. Bityo bigatuma tugira ibidukikije byinshi kandi byiza, bigatuma tugira ikirere cyiza, ndetse bigatuma tugira n'ubuzima muri rusange.

Ubwoko bw'imbata zikunze kuba ari ndende, zikunze kuba ari nini mu bugari, ziri mu bwatsi bwiza butoshye. Zigira inyama nyinshi, kandi nini ziryoha,..

Imvubu ni ubwoko bw'inyamaswa buba mu mashyamba. Ndetse bukunda kujya kuba mu mazi rimwe na rimwe. Buri mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo.